Ku ivuriro ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro runaka, hari abantu benshi bagiye batandukanye, ari abana, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru, bose bicaye bategereje kubonana na muganga.